Hanze hari umwana w'umuhungu, wambaye impuzankano y'ikabutura ya move n'ishati, afite igikombe mu ntoki, biragaragara ko ari kuvoma amazi, ari kuva mu kigega ayavomera mu gikombe.

Abantu benshi harimo babiri b'igitsina gore n'abandi bana babiri, umwe afite icyuma mu ntoki ari gupompa, bari ku ivomero rusange aho bavoma amazi meza yo kwifashisha mu mirimo itandukanye.

Abana benshi b'abahungu bari ku ivomero rusange, hari umwe w'umuhungu ufite icyuma mu ntoki ari ku gipomba kugira ngo amazi aze, undi ari kuvomera mu ijerekani y'umuhondo, hirya hari ibyatsi byinshi.

Hanze hari abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'igitsina gore bambaye amataburiya y'umweru n'amabaji mu ijosi ryabo inyuma yabo hari icyapa kinini cy'umweru cyanditseho nyabageni awuturici masi sikiriningi biragaragara ko bari gufata amafoto y'urwibutso.

Abantu benshi cyane, harimo igitsina gabo, igitsina gore, hari n'abambaye impuzankano y'abashinzwe umutekano, bambaye imipira y'umweru, biragaragara ko hari igikorwa baje gukora aho ngaho.

Abantu benshi cyane harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore bicaye ku ntebe z'urubaho bafite imbere yabo amakaye bigaragara ko bari kwandika, bari mu cyumba cyometseho impapuro nyinshi zitandukanye.

Abantu benshi cyane harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore n'abana bambaye imyenda ya oranje biragaragara ko bari kubaha amata bayabahera mu nkongoro.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga babiri umwe w'igitsina gabo n'undi w'igitsina gore, bari kwita ku mwana urwaye n'undi muntu w'igitsina gore wicaye wambaye imyenda y'ubwoko bw'ibitenge, bigaragare ko ari mama w'uwo mwana urwaye.

Abantu babiri hari umwe igitsina gabo, wambaye umupira w'ubururu n'umweru n'undi mwana w'umukobwa wambaye umupira w'irose, wikoreye ijerekani yanditse Unicef mu ibara ry'umweru.

Umuntu wambaye umupira urimo uturongo tw'umukara n'umweru n'ibiganza bibiri byambaye ga bifite urushinge mu ntoki, bigaragare ko ari kumukingira indwara runaka.

Hanze hari abantu benshi cyane harimo abo igitsina gabo n'igitsina gore, hari n'idarapo ry'u Rwanda riteye hanze rifite ibara ry'ubururu, umuhondo, n'icyatsi, hahagaze n'umuntu wambaye impuzankano y'icyatsi y'abashinzwe umutekano mu bwoko bw'abadaso n'amburanse imbere.

Abana benshi cyane, harimo abakobwa n'abahungu bari mu kiyaga bari koga, biragaragara ko bishimye. Bari mu byidagaduro bogera mu mazi.

Umwana w'umuhungu wambaye ikabutura y'ubururu n'umupira wa orange, ufite igikombe mu ntoki, ari kumavomero rusange, aho ari kuvoma amazi meza yo kunywa.

Abantu batatu harimo babiri b'igitsina gore n'undi w'igitsina gabo bicaye uw'igitsina gore yambaye iyaburiya y'ubururu biragaragara ko bari kubagira inama yo kuboneza urubyaro.

Icyapa kinini cy'ubururu gishushanyijeho inzu isize irangi ryumweru ifite n'amadirishya y'ubururu, gishushanyijeho umubumbe w'isi cyanditseho n'amagambo menshi mu ibara ry'umweru ,ubururu n'umuhondo.

Umwana w'umukobwa wambaye ikabutura y'iroze n'umupira w'umweru, biragaragara ko ari ku ivomero rusange arikuvomera mu ijerekani y'umuhondo n'andi abiri ateretse hasi, hirya ye hari ibyatsi ndetse n'insina.

Mu nzu harimo abantu babiri, umwe w'igitsina gore wambaye imyenda yo mu bwoko bw'ibitenge ateruye umwana n'undi w'igitsina gabo wambaye itaburiya y'umweru na ga mu ntoki. Biragaragara ko ari kwa muganga, bari kuvura umwana uterewe mu ntoki.

Abantu benshi cyane, harimo igitsina gabo n'igitsina gore bateruye abana, bambaye imipira y'umweru n'abana bambaye imipira ya oranje n'abagabo bambaye imipara ya oranje bari guhera amata abana mu nkongoro.

Abantu benshi cyane bicaye mu buryo bw'itsinda, harimo abazungu n'abirabura, imbere yabo hari ameza ateretseho ibitabo n'amacupa arimo amazi, nanone imbere yabo hari icyapa kinini cyanditseho for every chirid, hope.

Umwana w'umukobwa wambaye imyenda yo mu bwoko bw'ibitenge usutse n'imisatsi afite icupa mu ntoki ze ririmo amazi, biragaragara ko arimo gukaraba intoki mu buryo bwizewe.

Hanze hari abantu babiri, umwe w'igitsina gabo, n'undi w'igitsina gore witandiye, biragaragara ko bari ku ivomero rusange, bari kuvomera mu majerekani y'umuhondo, hirya yabo hari ishyamba ririmo ibiti byinshi.

Hanze hari abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'igitsina gore biragaragara ko bari ku ivomera rusange, hari umugore wambaye umupira w'icyatsi ufite ikintu mu ntoki ari gupompa amazi kugirango babone uko bavoma, hari n'umwana wambaye umupira w'umutuku uri kuvomera mu majerekani y'umuhondo.

Abana benshi biragaragara ko bari ku ivomero rusange, harimo umwe uri gupompa kugira ngo ubone uko bavoma, bari kuvomera mu ijerekani isa umuhondo, inyuma yabo hari ubusitani bwiza.

Abantu benshi bose bigitsina gore bafashe ku cyuma gipompa amazi, biragaragara ko ari ku ivomero rusange hari n'undi w'igitsina gore uri kuvomera mu ndobo y'ubururu.

Mu nzu harimo abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'igitsina gore bicaye mu bihande bibiri bitandukanye, hari abafite impapuro imbere yabo biragaragara ko bari mu nama.

Abantu babiri harimo uw'igitsina gore wambaye imyenda y'ubwoko bw'ibitenge n'umupira w'umweru, n'undi w'igitsina gabo wambaye itaburiya y'ubururu ufite icyapa kinini gishushanyijeho umwana w'umuhungu n'umukobwa, bigaragara ko ari umujyanama w'ubuzima uri kugira inama umugore mumikurire y'abana.

Hanze hari umuntu w'igitsina gore, wambaye imyenda y'ubwoko bw'ibitenge uhetse umwana, biragaragara ko arikoza umupfundikizo w'indobo usa iroze hari n'indobo y'umuhondo, n'indi y'umutuku, n'indi y'ubururu, bigaragara ko ari ku ivomero rusange. Hirya ye hari ibiti bitandukanye.

Abantu benshi cyane hari kugaragara umumama uteruye umwana, wambaye isengeri y'umweru, ufite n'udusaro mu mutwe tw'umuhondo icyatsi n'umutuku, biragaragara ko bari kumukingira.

Mu nzu hari abantu benshi harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bambaye imipira y'ubururu yanditseho shora neza n'ingofero z'umweru bazamuye ibipfunsi, inyuma yaho hari icyapa kinini cyanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umukara.

Hanze hari abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, hari abicaye n'abahagaze, biragaragara ko baje kuvura abaturage indwara zo mu mitekerereze.

Abantu babiri, bose b'igitsina gore umwe wambaye imyenda y'ubwoko bw'ikoboyi ufite n'imisatsi myinshi ,n'undi ufite isharupe y'umutuku, biragaragara ko ari kumugira inama.

Umuntu w'igitsina gore wambaye umukufi mu ijosi rye, n'imyenda ifite ibara rya oranje n'icyatsi, y'ubwoko bw'ibitenge bigaragara ko ari muri botike icururuza ibicuruzwa bitandukanye.

Abantu benshi cyane harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore bahagaze, imbere yabo hari ameza afite igitambaro cy'umukara ateretseho ibikoresho bitandukanye.

Abantu babiri, umwe w'igitsina gabo wambaye umupira w'ubururu, n'undi w'igitsina gore wambaye umupira w'umweru, wifashe ku matama biragaragara ko afite ikibazo cy'imihangayiko bari kumuvura mu buryo bw'imitekerereze.

Icyapa kinini cy'umutuku n'umweru kiriho ibirangantego bitandukanye harimo: icy'u Rwanda kirimo m'uruziga, kirimo isaka n'agaseke n'ibindi byinshi, handitseho n'amagambo menshi mu ibara ry'umweru.

Mu nzu harimo abantu benshi cyane igitsina gabo n'igitsina gore harimo nk'ufite indangurumajwi mu ntoki ze mbere yabo hari amezi n'igitambaro cy'umweru ateretse icupa ry'amazi na mudasobwa iri kwaka.

Hanze hari umuntu w'igitsina gore, ufite umusatsi wa natirere, wambaye ishati y'umutuku n'ikanzu y'ubururu, biragaragara ko yishimye mu maso.

Mu nzu harimo abantu benshi biganjemo igitsina gore, bambaye imyenda itandukanye, bahagaze bari gukoma amashyi, harimo abazungu n'abirabura, imbere yabo hari ameza ateretseho icupa ririmo amazi.

Abantu batatu bose b'igitsina gore, harimo babiri batereye abana, n'undi umwe biragaragara ko ari kubavura mu buryo bw'imitekerereze.

Hanze ha hagaze umuntu w'igitsina gore wambaye ikanzu ifite ibara ry'ubururu n'umuhondo yambaye amadarubindi yambaye n'ibikomo ndetse n'impeta afite agakarita ko kwibuka mu ntoki ze.

Abantu benshi cyane higanje mo urubyiruko, harimo igitsina gore n'igitsina gabo, abenshi bambaye imipira y'ubururu. Harimo abazunguru n'abirabura, biragaragara ko bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'uw'igitsina gore bafasha umuntu ku rutugu afite n'inkoni mu ntoki biragaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe.

Ibiganza bibiri kimwe cy'iburyo n'ikindi kimoso, byambaye ga bifite ibikoresho bakoresha baVura amenyo n'umwana w'umuhungu uryamye yambaye umupira w'icyatsi biragaragara ko bagiye kumuvura indwara y'amenyo.

Mu cyumba cy'ishuri harimo abantu benshi, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, abazungu n'abirabura biragaragara ko bari kwigisha umunyeshuri ibigize amenyo y'umuntu.

Ifoto nini iriho umuntu w'umugabo, wambaye umupira wa shokora n'ishati yo mu bwoko bw'ikoboyi, afite ubwanwa biragaragara ko yishimye cyane.

Mu nzu harimo abantu batatu, umwe w'igitsina gabo wambaye ikabutura y'umukara n'amadarubindi n'agapfukamunwa n'undi w'igitsina gore wambaye ga, itaburiya y'umukara n'ingofero y'ubururu. Biragaragara ko bari kuvura umuntu indwara yo mu kanwa nk'amenyo.

Abantu benshi cyane harimo ab’igitsina gabo n'igitsina gore bicaye ku ntebe z'umweru n'ameza y’umukara, biragaragara ko bari gusuzuma indwara zo mu kanwa harimo n'amenyo, ameza yabo ateretseho agacupa karimo ji ndetse n'umuti ukuraho ama virusi mu biganza.

Umuntu w'igitsina gore ufite imisatsi miremire, ufite uburoso bw'iroza n'umweru bigaragare ko ari gukora ibisuku mu kanwa he, imbere ye hari amacupa menshi y'umweru, umuhondo, ndetse n'igikombe kirimo ubundi buroso bw'amenyo.

Mu nzu harimo umuntu w'igitsina gabo bigaragara ko ageze mu za bukuru, wambaye marinete ufite ikintu mu ntoki, imbere ye hari miriwari, biragaragara ko ari ku bukarabiro, imbere ye hari isabune, uburoso bw'amenyo na korogate.

Ameza y'umweru, ateretseho ibikoresho bikoreshwa kwa muganga, aho baba bari kuvura indwara yo mu kanwa, amenyo ndetse n'izindi, kugira ngo uyirwaye abashe gukira neza.

Ibiganza bibiri byambaye ga z'ubururu n'umwana w'umuhungu wicaye ku ntebe y'umutuku, biragaragara ko bari kumuvura indwara zo mu kanwa harimo n'amenyo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abantu babiri, harimo umwana uryamye yambaye umupira urimo uturongo tw'umweru icyatsi n'umukara, n'undi mugabo wambaye agapfukamunwa itaburiya y'icyatsi na ga mu ntoki ze, biragaragara ko ari kuvura indwara yo mu kanwa.

Mu nzu harimo abantu babiri, umwe w'igitsina gabo n'undi w'igitsina gore, umuzungu n'umwirabura, biragaragara ko bari mu myitozo ngororamubiri.

Mu nzu hari abantu babiri, umwe w'igitsina gore, ufite icupa mu ntoki n'ikirahure, bigaragara ko ari gusuka umutobe mu kirahure; n'undi w'igitsina gabo, uri kurya imbuto, aribyo pome ,umwembe, imbere ye hari n'ameza, ateretseho ibintu byinshi.

Mu nzu hicaye umuntu ugeze mu zabukuru, wambaye ishati ya shokora, wifashe ku gahanga, imbere ye hateretse amakayi menshi, n'igikombe cy'amazi.

Mu nzu harimo abantu babiri basheshe akanguhe bafite imisatsi y'umweru, uw'igitsina gore afite agapapuro mu ntoki, uw'igitsina gabo afite imiti mu ntoki ze, biragaragara ko bari gusoma amabwiriza yo gufata imiti.

Mu nzu harimo abantu babiri umwe w'igitsina gabo ugeze mu zabukuru n'undi w'igitsina gore, wambaye itaburiya y'ubururu kandi w'umuzungu, ari kwita ku muntu ugeze mu zabukuru amwigisha kugendera ku mbago.

Abantu benshi cyane bicaye harimo ab'igitsina gabo, igitsina gore n'abana harimo n'ugeze mu za bukuru biragaragara ko bishimye inyuma yabo hateye ibiti.

Abantu babiri bose b'igitsina gore, umwe biragaragara ko ageze mu za bukuru, yambaye amadarubindi afite n'imisatsi y'umweru, n'umupira urimo uturongo tw'umukara biragaragara ko bari kumwitaho.

Mu nzu harimo abantu batatu, umwe b'igitsina gore n'abandi babiri b'igitsina gabo, bigaragara ko bari bicaye ku buriri, harimo abazungu n'abirabura, ugeze mu za bukuru bari kumwitaho bamuhagurutsa ndetse bamukoresha n'indi myitozo ngororamubiri.

Mu nzu hari abantu babiri, umwe ugeze mu zabukuru wambaye umupira w'umuhondo, wicaye mu kagare k'abafite ubumuga n'undi w'igitsina gore wambaye umupira w'ubururu bwerurutse, biragaragara ko bari kumwitaho.

Mu nzu harimo abantu babiri umwe w'igitsina gore wambaye ishati n'ipantaro y'ubururu, n'undi ugeze mu za bukuru wicaye mu kagare wambaye umupira w'umweru biragaragara ko bari kumwitaho.

Mu nzu hicaye abantu babiri bageze mu za bukuru uw'igitsina gore afite urupapuro mu ntoki, uw'igitsina gabo afite imiti mu ntoki, imbere hateretse amazi biragaragara ko bari gusoma amabwiriza yo gufata imiti.

Mu nzu harimo abantu batatu, igitsina gore, umwe wambaye umupira wa shokora ugeze mu za bukuru n'undi mugore wambaye amadarubindi n'umupira w'icyatsi, n'undi mwana w'umuhungu, bigaragara ko bari gufata amafunguro barishimye.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye ishati y'iroze n'amadarubindi, ufite ikaramu mu ntoki ze ndetse nigitabo mu ntoki, biragaragara ko ari gusoma igitabo.

Munsi y'igiti harimo igicucucucu, hicayemo abantu batandukanye harimo igitsina gabo nigitsina gore, abazungu n'abirabura, barishimye bari kuganira hari numuntu wicaye hasi uri kuboha agapaniye.

Abantu babiri, umwe w'igitsina gore wambaye amadarubindi n'undi w'igitsina gabo wambaye umupira w'iroze, bafite imifuka y'ibara ry'icyatsi n'ubururu, ahajya imyanda y'ibibora n'ibitabora.

Mu nzu harimo abantu benshi cyane higanjemo igitsina gore harimo abambaye amadarubindi n'undi wambaye ingofero, higanjemo abambaye imipira y'umweru biragaragara ko bari mu nama.

Abantu benshi cyane bicaye mu nzu hari abicaye n'abahagaze, hirya yaho hari ibyapa binini biri mu ibara ry'ubururu n'umweru, biragaragara ko bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore, abazungu n'abirabura, bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hari icyapa kinini cy'umweru n'ubururu, cyanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umweru, hari n'umuntu wambaye impuzankano y'icyatsi yo mu bwoko bw'abadaso.

Urupapuro runini rw'umweru, ruriho amabara atandukanye: oranje, umuhondo, icyatsi, ubururu, handitseho Abortion worldwide bibiri na cumi na karindwi mu ibara ry'umukara.

Urupapuro runini rw'umweru rwanditseho amagambo menshi "r" mu ibara ry'ubururu "b" mu ibara ry'umuhondo "c" mu ibara ry'icyatsi n'andi magambo menshi mu ibara ry'umukara.

Abantu benshi cyane biganjemo igitsina gore harimo n'igitsina gabo, imbere yabo hari ameze ateretseho amazi ya sosiyete y'inyange, bari gufata ifoto y'urwibutso, barishimye cyane bazamuye amaboko, inyuma yaho hari icyapa kinini cyanditseho wumeni lidazi

Icyapa kinini cy'ubururu n'umweru cyanditseho H R mu magambo y'umweru kiroho n'ibiganza bibiri birimo gusuhuzanya hasi handitse herifu pipo Rwanda mu ibura ry'umweru.

Urupapuro runini rw'umweru, ruriho ikirangantego cy'u Rwanda, kiri mu kizero cy'icyatsi kirimo agaseke n'isaka hasi handitse nashono komyuniti herifu porisi, mu ibara ry'mweru n'andi magambo menshi mu ibara ry'icyatsi.

Abantu benshi cyane harimo abicaye n'abahagaze, inyuma yabo hari icyapa kinini kirimo ibara ry'icyatsi n'umweru, bigaragare ko bari gufata ifoto y'urwibutso.

Mu nzu nini harimo abantu benshi higanjemo ab'igitsina gore, hari n'undi uhagaze ufite kamera uri gufotora. umuntu uri imbere biri kugaragara nkaho ari kubigisha.

Mu nzu harimo umuntu w'igitsina gabo wambaye karuvati irimo uturongo tw'umweru n'ubururu n'ikote ry'igitaka imbere hari indangururamajwi n'imfatamashusho inyuma ye hari icyapa kinini cyanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa bavura, harimo: intebe, igitanda kiryamo abarwayi, amatara, ndetse n'icyuma kibigaragaza indwara barwaye.

Abantu babiri bicaye umwe w'igitsina gore ufite imisatsi y'umukara, wambaye imyenda y'ubwoko bw'ibitenge irimo ibara ry'ubururu n'umuhondo, n'undi w'igitsina gabo wambaye imyenda ya kiganga, bigaragara ko bari kugirana inama, inyuma yabo hari insina zeraho ibitoki.

Inzu nini yubakishije amakaro isize irangi ry'umweru irimo na parafo n'amatara ari kwaka, biragaragara ko ari icyumba cyo kwa muganga, umuntu bamupima indwara zose z'umubiri, hirya hari n'igiteleviziyo kinini.

Inyubako yo kwa muganga yubakishije amabuye, hirya hari ubusitani bwiza, burimo indabyo zitandukanye, harimo umuhondo, umutuku, n'izindi, muri iyi nyubako hari n'abantu baje kwaka serivise kwa muganga, kugira ngo bavurwe indwara zitandukanye.

Mu nzu harimo abantu benshi cyane, ab'igitsina gabo n'igitsina gore, bambaye amataburiya y'umweru, biragaragara ko ari kwa muganga, ahafatirwa ibizami bakanabipima.

Inzu nini y'ubucuruzi, icururizwamo imiti, aho abantu benshi baza bayigana bakagura imiti kugira ngo iyo miti ibavure indwara nyinshi zitandukanye.

Inzu nini kandi nziza, isize irangi ry'umweru, yubakishije amabati y'ubururu, ni inyubako y'ikigo nderabuzima cya Kanyinya, hirya hari idarapo ry'u Rwanda, rifite ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi, hanze hari ubusitani bwiza, buteyemo indabo.

Mu nzu harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo intebe zo kwicaraho, akabati gateretseho ibikombe by'umukara, umuhondo, hari n'ameza ateretseho computer iri kwaka.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibitanda bine, bifite ibara ry'umweru n'ubururu, hariho matera ifite ibara ry'umukara, impande y'igitanda hagiye hariho akabati gafite ibara ry'umweru n'ubururu.

Inzu nini kandi nziza isize irange ry'umweru, ni inyubako yo kwa muganga, aho bavurira amaso, hari icyapa kinini cyanditse Eya Fondasheni Hosipito, hanze hari imbunga yubakishije amatafari yo mu bwoko bw'amapave.

Mu nzu yubakishije amakaro hari n'ameza ateretseho ururabo rwiza rw'icyatsi, harimo abantu benshi ab'igitsina gabo, wicaye ku ntebe bafite terefone mu ntoki ze, n'undi uhagaze bigaragara ko bari kumuha serivisi.

Inzu nini kandi nziza, iteye amarangi meza, icyatsi, umuhondo, oranje, n'umweru. Bigaragarare ko ari aho bavurira abana, harimo n'ibikinisho bigiye bitandukanye, akanyamasyo, n'ibindi byinshi.

Akabaraza karimo abantu babiri b'igitsina gabo bose bambaye amatabuliya y'umweru bari kuganira, hirya hari n'ubusitani bwiza buteyemo ibyatsi.

Abantu benshi cyane, harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, abazungu n'abirabura, bahagaze mu busitani, ku cyapa cyanditseho Butaro hosipito, bari gufata ifoto y'urwibutso.

Mu nzu, harimo abantu babiri, umwe w'igitsina gabo wambaye ishati y'umutuku n'amadarubindi biragaragara ko ageze mu zabukuru, nundi w'igitsina gore wambaye ishati y'ubururu ufite n'imisatsi myinshi, biragaragara ko bari kumupima umuvuduko w'amaraso.

Inzu nini kandi nziza isize irange ry'umweru, ifite icyapa kinini cy'ubururu n'umweru, gishushanyijeho ibitente bibiri. Hanze hari amadapo abiri iry'u Rwanda rifite ibara ry'ubururu, icyatsi n'umuhondo, hanze hateretse n'ivaze.

Inzu nini cyane kandi nziza isize irangi ry'umweru yanditseho amagambo mu ibara ry'umukara, hanze hari umuntu w'igitsina gore wambaye umupira w'umuhondo n'ijipo irimo amabara y'umutuku.

Inzu yubakishije amakaro isize irange ry'umweru irimo ameza atatu imwe isa umweru, umukara na shokora n'intebe za shokora zifite imisego myiza, hari n'amavaze arimo indabo nziza.

Ku muhanda wa kaburimbo hirya hari inzu nyinshi zigaragara nko kwa muganga zifite igipangu gisa ubururu cyanditseho h ebyiri n'icyapa cy'ubururu cyanditseho isange nyanza hosipito.

Mu nzu harimo abantu benshi cyane igitsina gabo n'igitsina gore bahagaze bari ku murongo imbere yabo hari intebe z'umukara n'indi y'urubaho, imbere yabo hari n'undi muntu ubana n'ubumuga bw'ingingo wicaye mu kagare imbere ye hari abagabo babiri bicaye ku ntebe z'umukara n'ameza ariho igitambaro cy'umweru.

Umuntu w'igitsina gabo ubana n'ubumuga bw'ingingo, wicaye mu kagare ari gusunikwa n'umwana w'umuhungu wambaye ikote ry'ubururu bwijimye n'ipantaro y'umukara, bigaragara ko bagiye mumahugurwa, mu muryango hahagaze umukobwa wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara ari kubaha ikaze.

Icyumba cyo kwa muganga, harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa n'undi murwayi, bari kumupima umuvuduko w'amaraso, inyuma hari n'akabati karimo imiti itandukanye, ivura n'indwara zitandukanye.

Inzu nini cyane kandi nziza igeretse yubakishije amabati y'umutuku, irimo n'abantu babiri b'igitsina gabo bari kumanuka, hanze hari na parikingi iparitsemo imodoka na moto hari n'ubusitani bwiza.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo imiti itandukanye, ipanze mu kabati, ivura indwara zitandukanye; aho umuntu ahagana arwaye indwara zitandukanye bakamuha imita agakira.

Icyumba cyo kwa muganga harimo abantu batatu, harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru, agapfukamunwa n'undi musore wicaye impande yabo, umuganga ari kwita ku mwana bigaragare ko yagize imvune.

Kwa muganga biragaragara ko ari mu cyumba babyariramo, umuntu w'igitsina gore wambaye imyenda y'icyatsi n'ingofero n'uruhinja ruryamye mu gatanda; biragaragara ko ari gupima ibiro yavukanye rwose yamwishimiye.

Inzu nini cyane kandi nziza yubakishije amakaro y'umweru n'umutuku, ifite inzugi z'umutuku ndetse isize irangiye ry'umweru hari n'uturongo tw'umweru n'ubururu bigaragara ko ari inyubako yo kwa muganga.

Kwa muganga hari icyapa kinini cyanditseho amagambo menshi agaragaza serivisi zihatangirwa, ni kwa Nyirinkwaya, hirya yaho hari igipangu gifite giriyaje z'ubururu, hari n'akazu k'umuhondo ka sosiyete ya emutiyeni.

Inzu nini kandi nziza isize irangi ry'umweru ifite n'ibirahure bisa ubururu, n'umweru biragaragara ko ari inyubako yo kwa muganga, hanze hateye ubusitani bwiza buririmo n'ibiti byo mubwoko bw'imikindo.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe z'umukara, umwe yambaye amadarubindi n'umupira uriho umusaraba w'umweru, n'ijiri yanditse ho RBC, inyuma ye hari udukoresho twifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, n'undi mugabo bari gupima umuvuduko wamaraso, inyuma ye hari icyapa kinini cyanditseho irembo.

Ifoto iriho ibintu bitandukanye umuntu arya avuye mu myitozo ngororamubiri, harimo: inanasi, umwembe, indimu, imineke, pome, ndetse n'icupa ry'amazi umuntu anywa avuye muri siporo.

Umuntu w'igitsina gore ufite imisatsi myinshi, wambaye ekuteri mu matwi n'isengeri y'ubururu ,wambaye n'agakomo ku kaboko, afite icupa ry'amazi, ari kunywa amazi kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Mu nzu harimo abantu baryamye harimo umumama wambaye imyenda y'ubwoko bw'igitenge n'umwana wambaye imyenda y'umweru biragaragara ko ari kwa muganga hejuru hari inzitiramibu n'ibitanda by'umweru.

Mu nzu hari abantu benshi cyane harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye bafite amakayi ku bibero byabo bari kwandika n'undi w'igitsina gabo uhagaze wambaye itaburiya y'umweru biragaragara ko ari kubigisha gukoresha imashini, hirya ye hari igitanda, biragaragara ko ari kwa muganga.

Mu muhanda wa kaburimbo kuruhande hari uturongo tw'umweru n'umukara harimo n'ikinyabiziga cya ambirase gitwara abarwayi hirya yabowo hateye ubusitani bwiza burimo indabyo.

Inyubako yo kwa muganga, irimo umuntu w'igitsina gore, wambaye itaburiya y'icyatsi, agapfukamunwa na ga mu ntoki ze. Imbere ye hari ameza ateretseho mudasobwa icanye n'amakaye yo kwandikamo, abaje kwaka serivise yo kwivuza.

Mu nzu harimo abantu babiri b'igitsina gore wambaye ipantaro y'umukara isa ukuboko baji mu ijosi rye n'ishati y'mweru n'undi w'igitsina gabo wambaye ipantaro y'i koboyi n' numupira w'icyatsi wijimye biragaragara ko yavunitse ukuguru bari kumuvura.

Umuntu wambaye insimburangingo y'umweru, n'inkweto z'umweru, n'izindi nsimburangingo zigiye zitandukanye, zambarwa mu gihe gitandukanye, harimo iyambere nini umuntu yambara ari mukuru, n'izindi zigiye zikurikiraho, zitandukanye.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye umupira w'ubururu, wambaye n'agakomo k'umweru ufite kuteri mu ijosi rye biragaragara ko ari kunywa amazi meza kuko avuye mu myitozo ngororamubiri.

Abantu babiri, umwe w'igitsina gabo n'undi w'igitsina gore wambaye agapfukamunwa, biragaragara ko yari ari muri siporo bakaba bari kumuvura imvune yagiriye mu kibuga.

Umuntu w'igitsina gore, wambaye ikabutura n'isengeri by'ubururu, ufite n'imisatsi miremire, wambaye n'inkweto z'umweru n'ubururu, biragaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri ahantu hatuje.

Ameza ateretseho ikirarahure n'ikiganza gifashe ijaga irimo amazi, ari gusuka amazi mu kirahure kugira ngo bayanywe, amazi ni ubuzima iyo uyanyweye ugira ubuzima bwiza akanakumira indwara zigiye zitandukanye.

Ameza ateretseho ibiribwa bitandu umuntu arya avuye gukora imyitozo ngororamubiri, harimo amazi meza, umutobe mwiza, inkeri, pome, ubunyobwa ndetse n'ibindi byinshi.

Mu nzu harimo umuntu w'igitsina gore wambaye ipantaro n'isengeri by'umweru, yicaye ku gasambi ari gukora imyitozo ngororamubiri biragaragara ko ari kwigorora.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho byinshi byifashishwa mu buvuzi bw'ingingo, harimo umuntu w'igitsina gabo wicaye, wambaye ishati y'iroze, imbere ye hateretse mudasobwa icanye.

Mu nzu biragaragara ko ari inyubako yo kwa muganga, irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga, harimo n'umuntu w'igitsina gabo wambaye ga n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umweru bigaragara ko ari gukorera aho hantu.

Ifoto iriho ibikoresho bitandukanye bakoresha mu myitozo ngororamubiri n'ibiribwa umuntu arya avuye mu myitozo ngororamubiri harimo pome, imineke, indimu, cokombure ndetse n'ibindi byinshi.

ikiganza cy'umuntu gifite icupa ry'amazi mu ntoki ze rifite umupfundikizo w'ubururu aho umuntu yanyweye' amazi agira ubuzima bwiza ndetse akanarinda indwara harimo umuvuduko w'amaraso impyiko n'ibindi

Umuntu w'igitsina gabo, ufite icyuma mu ntoki uri gukora imyitozo ngororamubiri, iyo amaze gukora imyitozo ngororamubiri, arya ibiribwa bitandukanye, harimo amagi, akanywa amazi, inanasi, amashu, ji ndetse n'ibindi nyinshi.

Mu nzu harimo umuntu w'igitsina gabo, wambaye itaburiya y'umweru, wicaye ku ntebe z'umukara, biragaragara ko ari umuganga, imbere ye hateretse amacupa abiri arimo imiti.

Imiti ya kinyarwanda itereretse ahantu hari iri mu icupa ry'umweru rifite umupfundikizo wa move n'iri mu icupa ry'umuhondo n'indi iri mu gakarito, biragaragara ko ari imiti ivura abantu indwara zitandukanye.

Urupapuro runini rw'umweru, rushushanyijeho amasaka abiri mu ibara ry'umutuku, ndetse n'ibibabi mu ibara ry'icyatsi, handitseho Rwanda FDA mu ibara ry'icyatsi, na Rwanda Food and Drugs Authority, mu ibara ry'umutuku.

Abantu benshi cyane, biragaragara ko ari mu isoko hacururizwamo ibicuruzwa bitandukanye imboga, imbuto ndetse n'ibindi biribwa by'ibinyamafufu, turi kubonaho mayonezi, amavuta ya oliva oyiri ndetse n'ibindi.

Imiti iri mu gakarito k'icyatsi, umweru n'ubururu ka sosiyete ya Alliance kanditseho makumyabiri na kane akarongo karindwi. Ni imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Icyapa kinini cy'umweru n'icyatsi gishushanyijeho igikakarubamba, cyanditseho amagambo menshi mu ibara ry'icyatsi hariho n'inyoni iri kuguruka handitse foreva.

Ifoto iriho amacupa atatu atandukanye, irifite umufundiko wa shokora ry'umweru, ryanditseho foreva arowu, n'irindi risa umuhondo, rifite umufundizo wa shokora, n'irindi rifite umufundikizo wa oranje risa umweru.

Ibiti byinshi cyane by'imiravumba, aho byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye mu buryo bwa kinyarwanda; harimo inkorora, ibicurane n'izindi ndwara nyinshi.

Ameza y'umweru ateretseho ibirahure bibiri biriho imiti ya kinyarwanda ivura indwara zitandukanye, ikirahure kimwe kirimo umuravumba ikindi kirimo teyi, aho ino miti ivura indwara nyinshi zitandukanye.